Ikigo cy'ubwishingizi cya Radiant gitanga ubwishingizi bw'inkoko, ni ukuvuga umworozi yishyura mirongo itandatu ku ijana Leta ikamuha nkunganire ingana na mirongo ine ku ijana by'agaciro k'ubwishingizi bw'inkoko.

Si ngombwa gutegereza ko ujyanwa mu bitaro mu gihe urwaye kugira ngo ubone kugura ubwishingizi bwo kwivuza. Radiyanti niyo iguha ubu butumwa, ikaba itanga n'umurongo wahamagaraho ushaka ibindi bisobanuro wa makumyabiri mirongo itanu.

Imodoka ikinishwa umukino wo gusiganwa mu ma modoka ,iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo. Iri mu marushanwa impande y'umuhanda hari ibiti byo ku muhanda ndetse inyuma yaho hari abantu benshi baje kwihera ijisho umukino.

Urubuga nkoranabuhanga rukoreshwa muri telefoni zigezweho ngendanwa zikoresha murandasi rufunguye muri iyi telefoni ruri kubwira urwinjiyemo ruti ikaze. Uru ni urubuga rwa beka.

Urubuga nkoranabuhanga rukoreshwa muri mudasobwa ndetse na telefoni ngendanwa zigezweho zikoresha murandasi, uru ni urubuga rwa Beka iyo ukirwinjiramo baguha ikaze ndetse bakaguha n'aho gushyira imyirondoro yawe ukoresha urwinjiramo.

Mu nzu icururizwamo imyambaro, irimo amashati amanitse, imipira nayo imanitse, tutibagiwe amashakoshi ndetse n'inkweto bimanitse mu kabati kegamiye igikuta gisa n'umweru.

Inzu icururizwamo ibirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga by'amatelefoni ndetse na mudasobwa ifite n'akabati kamanitsemo amasakoshi y'abagore ndetse n'inkweto.

Umugore wambaye inkweto zifunze, wambaye nikanzu irimo indabyo, asutse imisatsi ijya mu mugongo miremire, wambaye amadarubindi y'umukara, ahagaze mu nzu irimo akabati k'umweru karimo ibicuruzwa byinkweto z'abagore.

Inzu ifite inkuta z'umweru ishashemo amakaro, irimo akabati gasa n'umweru kapanzemo ibintu birimo imisego idoze mu bitenge ndetse n'inanasi.

Inzu icururizwamo resitora mw'imbere hari igice gitwikiriye kidafite inkuta hicayemo abantu ku meza bari gufungura banaganira.

Iguriro ricururizwamo imyambaro irimo imipira y'amaboko magufi imanitse harimo kandi n'inkweto zitondekanyije mu tubati harimo n'amakoti nayo amanitse hari agatebe k'umweru kicarwaho n'umucuruzi

Inyubako icururizwamo inkweto, hari inkweto zimanitse ku tubati turi ku gikuta gisa n'umukara ndetse n'inkweto zikinishwa umupira w'amaguru zifite amenyo munsi.

Inzu icuruza imyenda, irimo imyenda y'abagore imanitse kuri za maneke, irimo akabati k'umweru gapanzemo imyenda ndetse n'amasakoshi, mu imbere amatara y'umweru ari kwaka.

Inzu ishashemo amakaro ifite akameza gafite amaguru y'ibyuma bisize irangi ry'umukara, gateretseho imitako itandukanye ndetse harimo n'utubati turimo ibicuruzwa birimo imitako ndetse n'ibindi byinshi, mo imbere amatara y'umweru ari kwaka.

Umugore w'umuzungu ahagararanye n'umugore w'umwirabura, umugore w'umwirabura akora akazi karimo gutunganya, ndetse no gusukura imyenda adakoresheje amazi arimo arasukura ikoti.

Imodoka ifite amagambo yanditse ku gice gishyirwaho pulake ya isoko ry'imodoka rya Kigali, iyi ni imodoka yakozwe n'uruganda rwa Toyota, ikaba igurishwa irasa n'umukara.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya, bahagaze hanze, mu mbuga ishashemo amabuye, iruhande rwabo hari imodoka y'umukara, yakozwe n'uruganda rwa KIA, inyuma yabo hari ibirango by'Akagera, ndetse n'uruganda rwa Nissan.

Abagabo babiri bari hanze izuba riri kuva bahagaze mu mbuga ishashemo amabuye, inyuma yabo hari imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo isa n'umweru barahagaze bari kwifotoza.

Imodoka itwarwamo abagenzi bane, ifite inzugi zo ku miryango y'inyuma zifunguye, ifite imisego y'umukara ahicarwa n'abagenzi binyuma.

Inzu irimo ibiro, birimo umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, irimo ikirango cya toyota nk'uruganda rukora amamodoka, harimo harinjirwamo n'umugabo wambaye amadarubindi uteruye umwana.

Abagabo bahagaze mu mbuga hanze ishashemo amatafari, izuba riri kuva, bari kwifotoza, inyuma yabo haparitse imodoka eshatu zo mu ruganda rwa Toyota.

Inyubako y'aho iyo Hyundai ikorera, ifite ikimenyetso cya Hyundai ku nyubako, ifite imbuga ishashemo amabuye ndetse ikaba ifite n'inzugi z'ibirahure, mu imbere harimo imodoka iparitse.

Inzu ikorerwamo n'uruganda rwa Yhundai, itangirwamo serivise z'uru ruganda, haparitsemo amamodoka, hari imodoka y'umweru iparitsemo, iri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo ujya Nyabugogo.

Abagabo babiri bahagaze hanze mu mbuga ishashemo amabuye, bambaye amashati maremare ndetse n'amapantaro batebeje, inyuma yabo hari imodoka y'umukara ndetse n'indi isa n'ifeza bari kwifotoza.

Inzu iriho ibirango bya Hyundai iruhande rwayo hari icyapa kigaragaza ko ariho Hyundai ikorera hari kandi n'umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'umuyobozi w'ipikipiki uhetse umugenzi.

Imodoka yakozwe n'uruganda rwa yundayi isa n'umukara igendwamo n'abantu bane ubariyemo n'uyitwaye, irikwaka amatara y'imbere agaragaza icyerekezo arasa n'icunga rihishije, iyi modoka iparitse mu mbuga ikaba irikugurishwa miliyoni cumi na zirindwi, yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu.

Imodoka iparitse mu nzu, iri kwakamo itara ry'mweru, ishashemo amakaro y'umweru hasi , iyi modoka yakozwe n'uruganda rwa Yundayi.

Abagabo babiri bari hanze, bari kwifotoza mu mbuga ishashemo amabuye, inyuma yabo hari imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo, ifite igice cyicarwamo umushoferi gisa n'umweru, naho inyuma ifite igice kimeze nk'idomoro gitwarwamo ibisukika.

Umugabo uri hanze ari kwifotoza ahagaze ku rubaraza rushashemo amatafari, inyuma ye hari imodoka yo mu bwoko bwa fuso itwara imizigo isa n'umweru.

Amafaranga yo mu bwoko bw'igiceri yagaragajwe imbere ndetse n'inyuma hacyo akaba ari amafaranga afite agaciro ka makumyabiri, imbere hakaba hari igishushanyo cy'igitoki gifite ibirere ndetse n'umukanana naho ahandi hakaba harimo umubare wa makumyabiri.

Ibiganza bifashe amafaranga y'inote afite agaciro k'ijana, impande yaho hari imashini ya mubazi yifashishwa mu kubara imibare, ifite amabuto ariho imibare kuva kuri zeru kugeza ku icyenda ndetse n'ibimenyetso.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti agerekeranije ku meza afunze imifungo, impande yayo hari icyuma cya mubazi cyifashishwa mu kubara amafaranga umuntu atibeshye.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti afite agaciro k'ibihumbi bitanu ariho intore zibyina ndetse n'inyubako y'amagorofa. Ni amafaranga yemewe na banki nkuru y'u Rwanda.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti afite agaciro k'ijana ashushanyijeho inka y'inyambo ifite amahembe maremare, aya mafaranga yemewe na banki nasiyonari y'igihugu cy'u Burundi.

Banki ifite ibiro birimo imashini ya mubazi ikoreshwa mu kubara amafaranga, harimo kandi n'imashini isohora inyandiko, hicayemo umugore ukora muri banki imbere ye hari umugore uri kubara amafaranga.

Amafaranga yo mu bwoko bw'igiceri, gifite agaciro ka mirongo itanu, ni amafaranga yemewe na banki y'u Rwanda. Akoreshwa mu guhaha ibintu ariko yakoreshwaga kera, ubu ngubu bayasimbuje ikindi giceri.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti yemewe na banki nasiyonari y'u Rwanda, afite agaciro ka magana atanu, ashushanyijeho ingagi, hariho umukono w'ukuriye banki nasiyonari, hashushanyijeho n'abana batatu bari gusoma ibitabo.

Icyuma gikonjesha amata kiriho ibirango by'uko ari amata ya Mukamira, gifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, inyuma yacyo hari akabati kamanitsemo amacupa arimo amazi yo kunywa.

Inzu icururizwamo resitora yicayemo abakiriya ifite akabati k'umweru gapanzemo ibicuruzwa by'amandazi ndetse n'imigati, hari ndetse n'indobo zirimo ibyo bicuruzwa.

Ibikoresho bishyirwamo ibinyobwa bishyushye, kugirango bikomeze kuba bishyushye birimo teremusi ndetse n'ijage y'icyuma, iruhande rwabyo hari isorori irimo capati iteretse hejuru ya meza y'ubururu.

Inzu icururizwamo, ifite akabati gateretseho teremunsi ndetse n'ibinika irimo icyayi cyangwa igikoma, iruhande rwayo hari agasorori kabonerana karimo capati.

Inzu icururizwamo, irimo akabati gasa n'umukara gafite ibyumba bipazwemo utujerekani twarindwi , dupfundikiye dusa n'umweru , utu tujurekani dushyirwamo amata.

Inzu irimo abantu bahagaze ndetse n'umwana muto wambaye igisarubeti, afite telefoni ngendanwa mu ntoki, iruhande rwe hari igicuba cy'amata gikoze mu cyuma kiri mu nzu.

Inzu ifite imiryango isa n'ubururu ifite ikirango hejuru kigaragaza ko hari ahantu wabariza amata y'inyange mw'imbere harimo ibyuma bikonjesha bishyirwamo ibinyobwa by'inyange.

Inzu ishashemo amakaro, hicayemo umugore uri gucuruza ibyo kunywa birimo: amata, ndetse n'imitobe, harimo intebe zo kwicarwaho n'abakiriya ndetse n'ameza.

Inzu icururizwamo resitora ifite ameza asize irange ry'umukara hateretseho ikirahure, ikirahure kibonerana kirimo amata y'umwerera, iruhande rwacyo hateretse isahani y'umweru iriho ibiryo.

Umugore wambaye itaburiya yicaye mu nzu irimo icyuma gikonjesha amata y'Inyange cyanditseho Inyange, arimo aravoma amata mu kajerekani k'arindwi

Ibyo kurya bikozwe mu ifarini ndetse bishyirwa mu mavuta by'amandazi, biteretse ku isahani hejuru, nayo iteretse ku meza hejuru, ibi byo kurya bitera imbaraga.

Ibyo kurya by'amakeke biba biryohereye cyane bikozwe mu ifarini biteretse ku isahani isa n'umweru, ndetse hari n'agapapuro gakoreshwa mu kunoza isuku igihe umuntu arya.

Mu nzu mo imbere, harimo abagore babiri, bari kwerekana ibicuruzwa bicururizwa mu iyo nzu, inyuma yabo hari ibyuma bikonjesha ibinyobwa ndetse n'ibindi bicuruzwa.

Abantu bicaye mu nzu mw'imbere ifite ameza y'umweru, icururizwamo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, bari kunywa amata ari mu kirahure kibonerana, amata arasa n'umweru.

Inzu ikusanyirizwamo amata yaje mu bicuba bikoze mu cyuma kibonerana, hari abagabo babiri bari kubuganiza amata ava mu gicuba ajya mu cyuma kiyakonjesha.

Inzu icururizwamo amata y'Inyange hahagazemo umugabo iruhande rwe hari intebe ya palasitiki isa n'umweru, hari n'akameza gaterekwaho ibyo kunywa by'amata harimo n'icyuma gikonjesha amata.

Hanze izuba riva imbere y'ahantu hacururizwa amata ya Nyanza hari ibirango bishushanyije ku cyapa birimo inka ndetse n'amajerekani atwarwamo amata haparitse ipikipiki mu mbuga iri iruhande rw'inzu.

Telefoni igezweho idakoresha amabuto yakozwe n'uruganda rwa Samsung, umuntu ari kuyikoresha yakanze akanyenyeri, urwego, rimwe, gatatu, gatatu, karindwi, urwego.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti afite agaciro k'amayero y'ijana ndetse n'andi mafaranga y'inoti ya bibiri y'amafaranga y'u Rwanda n'andi ijana n'andi ya bitanu y'amafaranga y'u Rwanda.

Urutonde rugaragaza amafaranga umuntu akatwa, igihe yohereza amafaranga mu bindi bihugu. Iyo wohereje amafaranga ari hagati ya zeru ndetse n'ibihumbi umunani na magana atatu, bagukata amafaranga yo kohereza magana inani.

Urupapuro nkoranabuhanga ruriho ikirango cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirango cya Rwanda Revenue Authority. Uru ni urupapuro rwo kumenyekanisha imisoro umuntu w'umucuruzi aba arimo.

Urupapuro koranabuhanga ruriho ikirango cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirango cya Rwanda Revenue Authority nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro mu Rwanda rwerekana ko brum hills Rwanda limited yishyuye imisoro itandukanye ndetse n'amande.

Urupapuro nkoranabuhanga ruriho ikirango cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cya Rwanda Revenu Otoriti, ruragaragaza imisoro izishyurwa na Henry Rutaganzwa.

Urupapuro nkoranabuhanga rugaragarira muri mudasobwa ifunguye, ruriho ikirango cya leta y'u Rwanda ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority rugaragaza ko ikigo cy'ubwishingizi cya Prime kizishyura umusoro ungana n'ibihumbi ijana na mirongo itanu.

Urupapuro nkoranabuhanga ruriho ikirango cya repubulika y'uRwanda ndetse n'ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cya Rwanda Revenue Authority rugaragaza imisoro izishyurwa n'ikigo cya Prime.

Urupapuro nkoranabuhanga ruriho ikirango cya Repubulika y'u Rwanda ndetse na Rwanda reveni otoriti, rugaragaza imisoro ikigo cy'ubwishingizi cya Purayimu cyishyuye.

Urupapuro nkoranabuhanga rugaragarira muri mudasobwa ifunguye ruriho ikirango cya repubulika y'u rwanda ndetse n'ikirango cya rwanda reveni otoriti nk'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro rwerekana amafaranga y'imisoro agomba kwishyurwa n'ikigo cya purayimu mu mezi atandukanye.

Urupapuro koranabuhanga rugaragarira muri mudasobwa ifunguye ni urupapuro rutangwa na banki ya kigali rugaragaza amateka y'uburyo amafaranga yagiye yoherezwa kuri konti zitandukanye.

Urupapuro rw'umweru ruriho ikirango cya Rwanda reveni otoriti rwemeza ko umucuruzi atarimo imisoro ikigo cy'igihugu cy'imisoro, ruriho na kashi yemejwe na noteri.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti harimo amayero afite agaciro k'atanu, icumi, makumyabiri, mirongo itanu, ijana, ndetse na magana abiri. Aya mafaranga aragerekeranyije hariho ibishushanyo, kandi aya mafaranga agura ibintu bitandukanye ashobora kuyavunjamo andi mafaranga harimo amanyarwanda, ndetse n'andi y'abanyamahanga.

Mu biganza harimo amafaranga yo mu bwoko bw'inoti y'amadorari, afite agaciro ka rimwe ndetse hasi hari n'andi mafaranga y'inoti asashe ku meza.

Umuntu ari gukanda amabuto y'icyuma cya mubazi gikoreshwa mu kubara amafaranga yateretsemo amafaranga yo mu bwoko bw'inoti z'amadolari zifite agaciro k'ijana kiri kuyabara.

Abantu babiri bari guhererekanya amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, harimo amafaranga y'amadorari afite agaciro k'ijana ndetse n'amafaranga yemewe na banki ya Nigeriya afite agaciro k'igihumbi.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti afite agaciro k'ijana mirongo itanu ndetse n'andi, afashwe mu kiganza. Aya mafaranga afasha mu guhaha ibintu bitandukanye birimo kwishyura ishuri, ubwishingizi n'ibindi.

Umugabo wicaye yambaye isaha ku kuboko, yambaye ishati y'amaboko maremare ya karokaro, aricaye ari kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, afite agaciro k'ijana.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti afite agaciro k'ibihumbi bibiri, igihumbi ,ndetse na magana atanu. Aya mafaranga akoreshwa mu guhaha ibintu bitandukanye ndetse no kwishyura minerivare ingendo, ubwishingizi ndetse n'ibindi. Abikwa muri banki yemewe na banki z'ibihugu kandi arakoreshwa.

Amafaranga ari mu bwoko bw'inoti ndetse n'ibiceri arambitse hejuru ku meza, ibiceri bifite agaciro k'icumi naho inoti harimo inoti y'idolari ifite agaciro k'ijana.

Umugore uri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti akoresheje intoki ze. Ayo mafaranga afite agaciro gatandukanye ndetse afite n'umumaro wo guhaha ibintu byinshi. Abikwa muri banki kandi aranakorerwa.

Inzu ifite ibiro birimo ameza ateretseho mudasobwa ndetse ifite n'umugozi w'umukara yakozwe n'uruganda rwa Ecipi, iruhande rwayo hateretse imashini ibara amafaranga.

Abantu benshi barimo abazungu, bari mu biro by'ahakorerwa serivisi zo guhinduranya ndetse no kuvunjisha amafaranga. Ni ukuvuga aha ngaha bakura amafaranga y'amanyamahanga mu yandi mafaranga, bakayashyira mu yandi mafaranga, bashobora kuyakura mu madolari bakayashyira mu manyarwanda ndetse n'ibindi.

Imbaho ziri hanze zigerekeranije. Imbaho zibazwa mu biti batera mu ishyamba cyangwa kimeza, bigakurwamo imbaho zikoreshwa mu bwubatsi.

Inzu irimo ameza afite amaguru y'ibyuma asize irangi ry'umukara hejuru ari urubaho rusenye neza, harimo kandi n'intebe z'ibiti hasi zifite amaguru y'ibyuma zitegamirwa.

Inzu ishashemo amakaro hasi y'umweru, ifite uruganiriro rurimo intebe zibajwe mu biti, ikaba ifitemo n'amarange y'umweru ku gikuta, ikaba ifite n'idirishya ryinjiza urumuri.

Inzu ifite uruganiriro rurimo intebe z'umukara zifite imisego ndetse zegamirwa, harimo kandi n'amezaza asa n'umweru hejuru ndetse no ku mpande afite n'utubati.

Ugitanda kibaje mu biti, gifite umwanya uterekwaho igodora ku buryo umuntu aza kuryama ameze neza yumva atekanye, iruhande rwacyo hari n'ibindi bitanda ndetse n'ibindi bibarizwa muri uru ruganda.

Inzu ifite pisinine mu mbuga irimo amazi, aha niho abantu bajya kogera ibyo kwiruhutsa mu mutwe cyangwa bashaka kubikora nka siporo yo koga, imbere yayo hari ahantu hari agatebe aho umuntu udashobora koga ashobora kwicara ari kwiruhukira areba amazi.

Inyubako yo mu bwoko bw'amagorofa, yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite n'amadirishya akozwe n'ibirahure, ifite imbuga iparitsemo imodoka ebyiri, iyi nyubako ishakakaje amategura.

Inzu ifite imbuga irimo pisine, irimo amazi yuzuye, irasa n'ubururu, iruhande rwayo hateye indabo ndetse inyuma yayo hari inzu iriho ibyuma bishyushya amazi.

Inzu ifite ibiro birimo intebe y'umukara yegamirwa ikozwe mu cyuma, imbere yayo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'agacupa k'amazi.

Inzu y'ubucuruzi ifite inzugi zisize amarangi y'ubururu, zifite ibirahure byinjiza urumuri . Mu imbere hakorerwamo ibikorwa birimo serivisi z'irembo ,serivisi zo kubitsa ndetse no kohereza amafaranga mu mabanki.

Inyubako z'amagorofa hari n'icyapa kimanitseho kigaragaza ko hariho ikigo cy'ubwishingizi cya MUA gikorera impande y'izo nyubako hateye ibiti byo ku muhanda ndetse hari na kaburimbo iri kugendwamo n'abantu.

Umuryango wometseho ibirango biri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu byanditsemo Radiyanti. Radiyanti ni ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda, barakubwira ko isezerano ari isezerano.

Inzu ifite icyumba kirimo intebe, ameza ndetse na mudasobwa, ifite igikuta gisa n'ubururu cyanditseho aliyanza, iki nikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda cyitwa aliyanze.

Inzu ifite ibiro birimo intebe, ameza ndetse na mudasobwa hicawemo n'abakora mu biro, hari ibirango n'imbere ndetse handitsemo ijambo ngo arinda ubuzima buri gihe.

Inzu irimo ibiro bikorerwamo n'umugabo, imbere ye hari mudasobwa ndetse hateretse n'urupapuro rw'ikizamini, imbere ye kandi hahagaze hanicaye abanyeshuri.

Isoko ricururizwamo imyambaro imanitse, hari abantu baje guhahira muri iryo soko ndetse hari n'umugore uri kudodera ku mashini banyonga.

Umugore wicaye uri gutunganya amafi, imbere ye hari amabase ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umutuku ari gutunganya amafi akoresheje icyuma.

Abagore babiri bari mu isoko ridatwikiriye, ricururizwamo ibirimo ibitunguru ndetse n'imineke, bahagaze hanze bari gucuruza ibyo bicuruzwa, ibitunguru biri mu bwoko bw'imboga bihumuza ibiryo.

Inzu y'amagorofa ifite ibice by'amadarage, bizengurutswe n'ibyuma by'ubururu, aho abantu bamanukira ku madarage, hasi hahagaze abantu bari mu bikorwa by'ubucuruzi, hari abacuruza inkweto ndetse n'abaguzi.

Umugabo ucuruza, imbere ye hari umukiriya w'umugore wambaye amaherena ku matwi atendera ndetse n'igitambaro mu mutwe cy'umukara, uyu mugabo acuruza inyanya.

Isoko ririmo abantu benshi barimo abagore b'abacuruzi ndetse n'abandi babaguzi ,harimo hanacururizwamo ibicuruzwa birimo imbuto z'amacunga ndetse harimo n'imyambaro irimo amajipo ndetse n'amashati ndetse n'ingofero.

Isoko ritwikirije amabati; imbere yaryo hari umuhanda ugendwamo n'abanyamaguru, harimo haragendamo umugore ndetse n'abagabo iruhande rwabo hari imbuga iparikwamo imodoka.

Isoko ricururizwamo ibirimo imyambaro, ririmo abacuruzi ndetse n'abaguzi, harimo imitaka yashinze isa n'umuhondo yanditseho MTN, hari n'abagore bitwikiriye imitaka y'andi mabara harimo imitaka itukura ndetse n'imitaka y'ubururu.

Isoko ritwikiriye, ricururizwamo imboga, harimo inyanya ziri mu dutanda turi hejuru ndetse hari n'amashu, hari insenda n'ibindi, harimo abaguzi ndetse n'abacuruzi.

Imbaga nyamwinshi iri hanze, izuba riri kuva, hari ahantu hari imitaka ndetse n'ibirango by'umutuku, byanditseho amagambo y'umweru ya eyateri.

Isoko ririmo abantu benshi barimo abaguzi ndetse n'abacuruzi, ni isoko ritwikiriye harimo ibicuruzwa birimo imboga ziri mu bwoko bw'inyanya, intoryi, imiteja ndetse na karoti.

Isoko ririmo abacuruzi barimo abagore ndetse n'abana babo, bafite ibicuruzwa biri mu mabase ndetse no mu tudobo, bacuruza imboga zirimo intoryi ndetse n'imbuto z'imyembe.

Hanze izuba ririkuva, abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore, bari imbere y'inyubako y'amagorofa, ifite umuryango w'icyatsi, ukorerwamo n'ikigo cy'ubucuruzi cya Lucky rice, gicuruza umuceri uhingwa hano mu Rwanda.

Isoko ritwikiriye ririmo ibicuruzwa birimo ibikapu byo gutwara mu ntoki bitwarwamo ibintu umuntu yahashye ndetse harimo n'imbuto zirimo imineke, inanasi, amacunga ndetse n'ibindi, harimo umuguzi ndetse n'abacuruzi.

Isoko ritwikirijwe amabati ririmo ibicuruzwa birimo ibikapu bikoreshwa mu guhaha, birimo imbuto z'imineke, inanasi ndetse n'imyembe.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo yicawemo n'umushoferi, iruhande rwayo hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi, uriho ibirango bya MTN momo uyu ni umukozi wa MTN.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, w'amaboko magufi wanditseho ishyura na momo, iruhande rwe hari umugabo ufite telefone igezweho, yanditsemo ibintu bigaragaza ko yishyuye akoresheje emutiyeni.

Akazu gasa n'umuhondo kariho ibirango bya MTN, gafite idirishya ry'imbere rifunguye hari umukiriya w'umugabo waje kwaka serivisi zubucuruzi za MTN.

Icyapa cy'umuhondo cyanditsemo amagambo y'umukara ya ishyura na momopeyi kiri mu izina ry'umucuruzi inuma tekinoloji, ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri nimero y'umucuruzi urwego.

Inzu ifite ibiro birimo ameza ndetse n'ibindi bikoresho byo mu biro, harimo intebe, mudasobwa ndetse n'ibyuma bya mubazi, hicayemo umukozi wo mu biro, imbere ye hari akapa kanditseho MTN.

Icyapa cy'umuhondo kirimo ibirango bya MTN, kikubwira ngo ishyura ukoresheje ikoranabuhanga rya MTN ryo guhererekanya amafaranga mu mazina yatanzwe y'umucuruzi ukoresheje na nimero y'umucuruzi.

Akazu ka emutiyene gasa n'umuhondo kubatse hanze gafite amadirishya yose afunguye kicawemo n'umukozi uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi bya emutiyene muri ako gace, imbere ye hahagaze umugabo ari kumuha serivisi.

Akazu ka emutiyeni gafite ibirango bya emutiyeni karasa umuhondo, mo imbere kicawemo n'umuntu gafite amadirishya abiri afunguye, imbere yako hahagaze umugabo uri kwaka serivisi.

Mu nzu irimo ibiro bya MTN, harimo umugabo w'umuzungu ufite akebo arimo aragahereza umuntu umuri imbere ngo akoremo, iruhande rwabo hicaye umugore uri kumwenyura wambaye ijire ya MTN.

Abagabo babiri bambaye amashati y'amaboko magufi yanditseho vuba vuba asa n'icyatsi, bafashe ku gasanduku gahetswe ku ipikipiki gasa n'icyatsi nako gatwarwamo ibicuruzwa kanditseho vuba vuba.

Umugabo wicaye ku ipikipiki inyuma ifite agasanduku gasa n'icyatsi kanditseho vuba vuba iruhande rwe hari ubusitani buteyemo indabo z'icyatsi.

Urubuga nkoranabuhanga rwa ALIExpress ruhahirwaho ibintu hifashishijwe uburyo bwa murandasi ndetse n'ibyuma by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa na telefoni zigezweho. Hahahirwaho ibicuruzwa bitandukanye harimo amasakoshi, amakoti, ndetse n'ibindi byinshi imbere yaho haba hari n'ibiciro byabyo.

Miliyoni ijana na mirongo itatu zigura inzu mu Rwanda, ishashemo amakaro, ifite inkuta zisize amarangi y'umweru, ifite itara rimeze nk'ururabo ryaka mu nzu ndetse ifite n'inzugi ebyiri zikozwe n'ibyuma ndetse n'ibirahuri.

Inzu ifite icyumba kirimo igitanda gikozwe mu biti, gishasheho igodora, kiriho n'imisego yo kwisegura isa n'umweru gishashe neza.

Inzu iherereye kanombe mu mujyi wa kigali ifite umuryango wo ku irembo ukozwe n'ibyuma ndetse n'ibirahure, ikaba igura miliyoni mirongo icyenda nshanu.

Inzu iherereye Kicukiro mu Kagarama, ifite uruganiriro rurimo intebe zegamirwa z'imisego, ifite n'ameza y'umukara afite akabati, ifite inkuta zisize amarangi y'umweru, iyi nzu irakodeshwa amadolari igihumbi n'ijana ku kwezi.

Umugabo w'umuzungu ndetse n'umugore w'umwirabura, bahagaze mu nzu irimo udutebe dutatu ndetse iri kwakamo n'amatara y'umweru hejuru, ni nijoro barimo baraganira.

mugabo wambaye itaburiya irimo amabara y'icyatsi, umukara ndetse n'akabara kagarura urumuri ahagaze mu kibanza kidahinze giharuye neza iki ikibanza giherereye i bumbogo i musave kigura miliyoni cumi n'eshanu.

Inzu ifite urubaraza rushashemo amakaro y'umweru rutwikiriye, ifite inkingi ndetse n'inkuta nazo zisize irange ry'umweru imbuga yayo ishashemo amabuye haparitsemo n'imodoka, iyi nzu wayigura miliyoni mirongo icyenda n'eshanu iherereye i Kigali i Kanombe.

Inzu ifite uruganiriro rurimo intebe z'imisego zegamirwa, hari n'ameza afite akabati munsi asa n'umukara, ifite inkuta z'umweru ndetse harimo n'ibitambaro ku idirishya birinda urumuri kwinjira.

Iyi nzu ishashemo amakaro hasi, ifite inkuta zisize amarangi y'umweru , ikaba ifite aho gucomeka za mudasobwa, amateleviziyo ndetse n'ibindi bikoresho bicumekwa ku muriro w'amashanyarazi , ikaba iri kwakamo amatara y'umweru, igura miliyoni mirongo irindwi n'eshanu ni mu mujyi wa Kigali.

Inzu ikodeshwa iri Kigali Kimironko, ifite ibyumba bibiri, ubwogero bubiri, irakodeshwa ibihumbi magana atatu na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inzu ikodeshwa iri i Kigali i Kanombe, ifite ibyumba bine, ifite ubwogero butatu, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu na mirongo itanu ku kwezi by'amafaranga y'u Rwanda, ukaba wabahamagara kuri zeru karindwi umunani kabiri, karindwi kane ebyiri karindwi umunani icyenda.

Inzu ikodeshwa iherereye i kibagabaga muri kigali ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bumwe, Ikaba ishashemo amakaro hasi. Mu imbere harimo umuriro w'amashanyarazi, ikaba ifite urugi ruriho ibirahuri bitabonerana.

Inzu ikodeshwa ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bumwe iherereye kibagabaga mu mujyi wa kigali ifite amakaro ashashe hasi ndetse ifite n'amarangi y'umweru ku nkuta.

Inyubako y'amagorofa ifite ibirahure bitabonerana, ikaba ifite aho imodoka ziparika hatwikiriye mu mbuga, iruhande rwaho hari n'ubusitani, imbere yaho hari icyapa cyanditseho Agaciro.

Inzu yo guturwamo ifite icyumba kimwe, ubwogero bumwe ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, iherereye i kigali Kacyiru.

Umugore uri gukurura agakangara gakoze muri parasitiki, gafite amapine gatwarwamo ibicuruzwa bicururizwa mu iguriro rya gisirimu, rifite akabati gapanzemo ibicuruzwa imbere yabyo hari agapapuro kanditseho ibiciro ndetse n'ubusobanuro bwabyo.

Isoko ricururizwamo ibintu byinshi hahagazemo umugabo uri kugura itapi ikoreshwa mu gusara, uyu ni umugabo wambaye ingofero y'abayisiramu inyuma ye hari n'abandi baguzi bari kugura ibicuruzwa bitandukanye.

Isoko ricururizwamo ibirimo ibikapu by'abagore bikoze mu mpu ndetse harimo n'abaguzi benshi. Harimo umugabo uri kuvugira kuri terefoni ngendanwa, yambaye ishati y'amaboko maremare.

Inzu icururizwamo ibirimo ibinyobwa, harimo abantu barimo abahakora bambaye imipira y'amaboko magufi isa n'umuhondo ndetse n'abaguzi, hari utubati turi ku nkuta turiho amacupa y'inzoga.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa birimo imitobe ndetse n'ibindi bipanze mu tubati turiho udupapuro tw'umuhondo, twanditseho ibiciro ndetse n'ubusobanuro bw'ibyo binyobwa.

Mu isoko riri mu nzu hari abantu bahagaze bari guhaha ibintu bitandukanye n'aho abandi ni abacuruzi, hari ibicuruzwa bitandukanye hari ibiteretse hejuru ku kabati ndetse n'ibiri ku nkuta.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye, harimo abantu batatu, iduka ni ho umuguzi ajyana amafaranga ashaka kugura ibyo akeneye, akayaha umucuruzi uri mu iduka, akamuha ibicuruzwa bifite agaciro k'amafaranga atanze.

Umugabo n'umugore bahagaze mu iduka ricuruza ibicuruzwa birimo imitako ,indabo ndetse n'ibindi byinshi bahagaze bari kugura ibicuruzwa.

Isoko ricururizwamo imyambaro riri mu magorofa yo hejuru hari za maneke ziri hanze zimanitseho imyambaro ndetse haragendwamo n'abaguzi bari gutambuka muri iyo nyubako y'amagorofa.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa birimo: imikandara imanitse, amasakoshi amanitse y'abagore ndetse harimo n'inkweto z'abagabo zimanitse, hejuru ku kabati kari mu isoko.

Umugore w'umwirabura uri mu isoko ritwikiriye acururizamo iruhande rwe hari umugore w'umuzungu ari kumugurishaho imbuto mu byo acuruza harimo ibinyomoro, amacunga ndetse n'inanasi.

Umugabo n'umugore bambaye imyenda y'imipira y'umweru ifite amaboko magufi, ifite n'ikora bicaye ku ntebe zo mu nzu ahantu mu biro bari kuganira ku kintu runaka, inyuma y'abo hari ibirango bya ejo heza.

Abagabo, abagore ndetse n'abana bicaye hanze ku ntebe iri ku rubaraza rw'ikigo nderabuzima aho baje kwivuza bafite udukaye duto twandikwamo indwara ndetse n'imiti.

Umukozi ukora kwa muganga afite ikaye ndetse n'ikaramu ari kwandika imyirondoro ari gusoma ku ikarita y'ubwisungane mu kwivuza isa n'umuhondo iriho imyirondoro n'ifoto bya nyirayo.

Ikarita yo mu bwisungane mu kwivuza ya mituweli, iyi karita ibiho umwirondoro wa nyirayo ndetse n'ifoto ye, nyirayo ayijyana ku kigo nderabuzima agiye kwivuzaho kugira ngo bamwakire kandi banamuvurire ku mafaranga make.

Umugabo uri kwandika imbere ye hari mituweri ebyiri nk'amakarita y'ubwisungane mu kwivuza aya makarita ariho umwirondoro n'amafoto ya ba nyirazo.

Umuntu uje kwivuza ari mu idirishya ari guhereza umukozi wo kwa muganga, wicaye mu biro birimo mudasobwa, ndetse n'inyandiko ziri ku meza, ari kumuwohereza ikarita y'ubwisungane mu kwivuza.

Umugore ufashe ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ya mituweri isa n'ubururu bweruye. Iyi karita uyifite ayijyana kwa muganga bakamwakira bakamuvura indwara yishyuye amafaranga make.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza isa n'ubururu bweruye iriho ifoto ya nyirayo n'amazina ye BIZIMUNGU Jean Damascene iruhande hari ikarita ndangamuntu nayo iriho ifoto ye n'umwirondoro we.

Umuntu ufashe ikarita y'ubwisungane mu kwivuza yanditseho RSSB, irasa n'ubururu bweruye, yanditseho amagambo, uyifite ayijyana ku kigo nderabuzima akivuza ku mafaranga macye.

Icyumba cy'inzu cyicawemo n'abantu barimo abagore ndetse n'abana bicaye ku ntebe idafite igice cyegamirwa bafite amakarita y'ubwisungane mu kwivuza asa n'umuhondo ndetse n'amakaye bandikamo indwara n'imiti.

Abantu barimo abagore ndetse n'abagabo bicaye hanze izuba riri kuva, bicaye ku rubaraza mu gacucu k'inzu yubakishije amatafari ahiye, imbere yabo hari umugore uri kubahereza inyandiko.

Abagore n'umugabo umwe bicaye ku ntebe z'urubaho ziri kwa muganga, bafite amakayi ndetse n'inyandiko zo kwivurizaho, baragaragara nk'abanyantege nke. Inyuma yabo hari umugore uhagaze.

Umugore uhagaze ahantu hari utubati tw'umweru, dupanzemo ibitabo byinshi, arahagaze ari kwitegereza kuri bimwe mu bitabo biri muri utwo tubati, hashashemo amakaro.

Inzu icururizwamo, iri kugendwamo n'abantu baje kugura ibintu bitandukanye harimo ibicuruzwa by'amandazi, ari mu tubati duteretseho imikebe ndetse n'utundi tubati turimo imitobe.

Ibiro birimo umugore uhagaze iruhande rwe hari telefoni iteretse ku kameza ndetse n'icyuma gikoreshwa mu kubara amafaranga cya mubazi gifite amabuto.

Inzu icururizwamo ibyo kunywa bitandukanye, birimo amata, amazi, imitobe itandukanye, ndetse n'amata ari mu ducupa, aba akoranye isukari, ibi biri mu cyuma gikoreshwa mu gukonjesha.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa birimo imitobe ndetse n'inzoga ziri mu macupa, amavuta yo guteka ndetse n'ibindi bicuruzwa bipanze mu tubati dufite amabara asa n'icunga rihishije, imbere y'ibicuruzwa hari udupapuro tugaragaza ibiciro.

Umugore wambaye amadarubindi, wasutse imisatsi ari mu iguriro ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ari gukora mu kabati gapanzemo ibicuruzwa mu iguriro, afashe ku kagare gasunikwa gashyirwamo ibicuruzwa harimo inanasi.